Ihuriro ry'ababyeyi benshi baje gukingiza abana babo, bicaye ku ntebe irambuye nini, buri wese afite umwana mu ntoki amufashe ku buryo yoherereza umuganga kuza kumutera urushinge, abana nabo bafite ubwoba kuko batinya inshige cyane.

Umubyeyi w'umugore wagiye gukingiza umwana, barimo kumuha ibitonyanga byo mu kanwa, umuganga amufashe mu kanwa arimo arabimutonyangiriza mu kanwa, aryamye ku bibero by'umubyeyi umubyara, umubyeyi aramufashe kugira ngo ibyo bitonyanga byinjire mu kanwa neza.

Ururabo rwiza rw'amabara y'icyatsi, ku mashami yacyo no ku mababi, icyo giti gifite amabara y'icyatsi, indabo zacyo ni umuhondo n'imbuto z'umutuku, ni ururabo rwiza rwameze mu butaka bwiza kandi rufite akamaro ku mubiri w'umuntu, kuruha umwuka mwiza wo guhumeka.